Aba bantu bamwe bambaye imyenda isanzwe abandi bambaye amajire, abandi bambaye imyenda ya zimwe mu ngabo z'igihugu mu nzego za gisirikare, polisi n'aba daso, bari mu gikorwa bahuriyemo bose kimwe tuzi nk'umuganda, bari gukorera hamwe bakupa ibyatsi abandi bagenda babiharura.